Ni abantu benshi biganjemo ababyeyi, abagabo, abasore ndetse bigaragara ko bavuye mu nama, bahagaze hamwe iruhande rwabo hari igishushanyo bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba k'inama. Imbere yaho hicaye abantu bagera muri batandatu, batanu muri bo ni abagabo, umwe ni umugore cyanga se ni igitsina gore, imbere yabo hari ibyapa biriho abantu benshi batandukanye.

Abantu benshi bahagaze bafite icyapa cyanditseho rbc, kiriho n'amagambo menshi avuga ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri. Isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura. Aba bantu bose bateze ingofero ndetse harimo n'abazungu.

Umumama uteze igitambaro cy'umukara, yambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko akora muri serivisi zijyanye n'ubuvuzi, imbere ye hari ababyeyi b'abamama, bafite ibipapuro bigaragara ko baje kwa muganga.

Abantu benshi biganjemo abagore, abagabo ndetse n'abaganga, bahagaze ahantu bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma ku nzu begamiyeho hari igishushanyo kivuga ngo uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Abantu benshi batandukanye biganjemo ababyeyi b'abamama, biragaragara ko bicaye bose bateze ibitambaro, imbere yabo hari abagabo babiri basa naho bari kubigisha.

Abantu batanu bateraniye hamwe biganjemo abagore n'abagabo, imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi yo kunywa kandi meza, biragaragara ko hari ibintu bari kuganiraho bijyanye n'uburenganzira bw'abana.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba k'inama, bose bicaye ku meza iruhande rwa buri muntu hateretse igikombe banyweramo icyayi. Biragaragara nkaho bose bahanze amaso, bateze amatwi umuntu uri kubayobora.

N'abantu benshi, bahagaze ubona yuko bishimye. Harimo abambaye imipira y'umweru ndetse harimo n'abambaye imipira y'icyatsi kibisi. Biragaragara ko imbere yabo ari umwana w'uruhinja, barangamiye. Bityo bigaragara ko bamwishimiye.

Abantu benshi bicaye ahantu, biragaragara ko ari abantu baje gufata amahugurwa, kubera ko bamwe muri bo bafite ikayi n'ikaramu bari kwandika. Abenshi muri bo biragaragara ko ari abajyanama b'ubuzima, kuko bambaye imyenda y'ubururu.

Ni abantu benshi batandukanye bahagaze ahantu haparitse n'imodoka nyinshi ariko igaragara cyane ni imodoka itwara abarwayi ariyo tuzi nka ambulance, aha hantu hateraniye aba bantu higanjemo inzego z'umutekano nka DASSO, iruhande rwabo hari amahema bugamyemo izuba.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi mu gihugu wasake, bigaragara ko ari ikigo gikora neza, kuko iyo ahantu habuze amazi babitabaza bakabagezaho amazi mu gihe kidatinze.

Abana batatu b'abahungu, umwe wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara, undi yambaye umupira w'amaboko magufi y'umuhondo, bose bari ku mugezi bari kuvomesha indobo, bigaragara ko amazi bari kuvoma atujuje ubuziranenge kuko asa nabi.

Abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bigaragara ko bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, ni abantu bahagaze bamwe bacyenyeye ibitambaro by'umukara ndetse n'iby'ubururu, abandi bambaye ingofero z'umweru.

Umwana w'umukobwa wambaye agapfukamunwa, ufite imisatsi miremire, akaba yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umweru, ari imbere ya muganga, ari kumupima uko umuvuduko w'amaraso uri kugenda.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Mayange, imbere y'iki kigo nderabuzima hahagaze abantu benshi biganjemo abagore, abagabo ndetse n'abera cyangwa se abazungu. Aba bantu biragaragara ko bishimye mbese bigaragara ko bano bantu babasuye.

Icyumba cyiza cyane gisa nk'aho kiberamo inama giteraniyemo abantu benshi batandukanye abagabo n'abagore. Imbere y'abo bantu hicaye abandi bantu batandatu bigaragara ko aribo bari kubayobora mu kiganiro.

Abantu biganjemo urubyiruko bateraniye ahantu bamwe baricaye abandi bahagaze bicaye munsi y'ibiti bigaragara ko hari ibyo baje kwigaho bijyanye n'urubyiruko.

Abantu benshi biganjemo ababyeyi bafite abana bateraniye ahantu, kuko bigaragara ko baje gukingiza, hari umubyeyi umwe uhagaze ukenyeye igitengeri ndetse yiteze n'ikindi bigaragara ko umwana afite yaje kumukingiza.

Umumama wambaye agapira k'umutuku ndetse ukenyeye n'igitenge cy'umweru n'umukara, ateruye umwana wambaye akagofero k'umweru, ahagaze kuri robine ndetse afite n'indobo ari kuvomamo amazi.

Umubyeyi uteze igitambaro, akaba yambaye n'ishati irimo amabara y'umutuku, ndetse n'ubururu, yikoreye ijerekani y'umuhondo, ipfundikije imupfundikizo w'umutuku, iruhande rwe hahagaze abana babiri.

Kunywa amazi meza, ni isoko y'ubuzima bwiza. Abantu benshi bateraniye ku ivomero, aho bategereje amazi. Biragaragara ko ari amajerekani menshi atondekanye, bigaragara ko bamwe bari kuvoma, abandi bategereje ko bagerwaho, nabo bakavoma.

Abantu batatu bari mu cyumba kigaragara nk'aho ari icyumba cy'ubuvuz,i biragaragara ko harimo umubyeyi umwe ariwe waje kwa muganga, uri kumwitaho akaba ari umubyeyi wambaye amataratara ndetse ufite n'imisatsi miremire y'umukara.

Abantu bane bateraniye ku meza. Babiri muri bo, ni abagore, abandi babiri, ni abagabo. Buri wese iruhande rwe, hateretse icupa ry'amazi yo kunywa. Kuri ayo meza bariho, iruhande rwa buri muntu, hari ikayi n'ikaramu yo kwandikamo. Ayo meza bariho, ariho igitambaro cy'umukara.

Abantu babiri bambaye amakanzu, bigaragara ko ari abantu b'igitsina gabo, umwe muri bo yambaye ikanzu ndende ndetse yiteze n'igitambaro mu mutwe ntagaragara neza. Imbere y'abo bantu hari inzu ihagazeho abandi bantu ndetse n'abicaye. Bigaragara ko hashobora kuba ari ku kigo nderabuzima.

Abantu benshi bicaye ahantu higanjemo abagabo n'abagore, abakuze ndetse n'abatoya, bicaye ku meza ariho igitambaro cy'umukara, imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi ndetse n'ikayi n'ikaramu bigaragara ko hari ibyo bari kwigaho.

Umugore uteruye umwana wambaye agapira k'umweru, ari kumwe na muganga ufite imisatsi miremire, wambaye amaherena, ndetse n'itaburiya y'umweru ari gusuzuma uwo mwana, bigaragara ko ari kumurebera ikibazo afite mu matwi.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore ndetse n'abana ,biragaragara yuko hari ibintu bari gukurikira mbese ni nk'inama bitabiriye, muri abo bantu bose harimo abambaye imipira y'icyatsi kibisi ndetse n'iy'umweru, imbere ya buri muntu hari ikayi ndetse n'amazi ari mu gacupa.

Icyumba kinini cyane, kigaragara nk'aho ari mu cyumba gikorerwamo serivisi z'ubuvuzi. Kiragaragaramo abantu benshi biganjemo abaganga, bambaye udupfukamu tw'umweru, ndetse n'amatabu y'umweru n'ubururu. Harimo umurwayi umwe w'umumama, bigaragara ko arembye, kuko bisa nk'aho bari kumutera urushinge.

Ni umugabo utagaragara neza wambaye udupfukantoki tw'ubururu, aricaye bigaragara ko asa n'uwunamye, bigaragara ko hari ibyo ari kwitaho bijyanye n'ubuvuzi.

Icyumba kinini cy'inama cyicawemo n'abantu benshi basa n'aho hari umuntu ubari imbere ubayoboreye muri iyo nama. Buri wese imbere yateretse agacupa k'amazi ndetse n'igitabo ndetse kandi buri wese afite ikaramu ari kwandikisha.

Ni umugore wambaye ingofero irimo amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo. Yambaye agapfukamunwa, akaba yambaye itaburiya y'ubururu. Uyu mugore ahagaze mu cyumba kirimo ibintu byinshi bitandukanye higanjemo imashini ndetse n'ibitanda, bigaragara ko ari icyumba gikorerwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Umugabo muremure wambaye amarinete, akaba yambaye ipantaro ndetse n'ikoti ry'umukara, akaba yambaye n'ishati y'umweru na karuvati ijya gusa umutuku, ari kumwe n'umukobwa wambaye agashati k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara bafashe agakapu kanditseho ngo visiti Rwanda.

Abantu benshi batandukanye, biganjemo abagabo, abagore, abana, ndetse n'abakuze, biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso kuko bahagaze neza ni abantu benshi ubona yuko biyubashye.

Abantu, urujya n'uruza rwiganjemo abana batoya cyane, biragaragara ko bose bari kubyiganira ku mugezi; kugira ngo babashe gukaraba, higanjemo abana batoya, hagati y'imyaka itanu, itatu ndetse no kugeza ku myaka nka cumi n'ibiri.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi, biragaragara yuko abo bantu bose ari igitsina gore kandi buri wese ateruye umwana, harimo ndetse n'abari konsa, biragaragara yuko ari ahantu ababyeyi bakunda guhurira.

Iyo o ukoresheje amazi meza biguha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'icyatsi kibisi ndetse n'ipantaro y'umukara yunamye ku mugezi ari kuvoma amazi mu ntoki bigaragara ko ari ayo kunywa ndetse iruhande rwe hari ikidomoro cy'ubururu.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore, iruhande rumwe imbere ya buri muntu hari imashini, ku rundi ruhande imbere ya buri muntu hari urupapuro ndetse n'ikaramu bigaragara ko bari kwandika, hagati yabo bantu hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abantu benshi cyane biganjemo abana, abagabo, abakuze, bigaragara yuko bahagaze ahantu heza cyane hari amakaro y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi. Bigaragara yuko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ni umugabo muremure, wambaye amarineti y'umukara, yambaye ishati y'umukara ndetse n'umweru, yambaye n'ipantaro, n'inkweto by'umukara. Biragaragara ko ahagaze imbere y'inzu nziza cyane, muri jaride nziza irimo indabyo ngufiya. Bigaragara ko ari gufata ifoto y'urwibutso.

Inyubako nziza cyane ifite amba y'umutuku ndetse n'amabara y'ubururu bwijimye, imbere yayo hari amapave y'umukara ndetse n'umweru, ndetse iruhande rwayo hateye jaride irimo indabyo nyinshi indende ndetse n'ingufu.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, bigaragara nkaho bafite ibyo bari kwigaho bijyanye n'ubuzima, imbere yabo hicaye abantu batandatu, batatu muri bo ni abagore, abandi ni abagabo, buri wese afite agacupa k'amazi iruhande rwe.

Ubwonko bw'umuntu bugizwe n'ibice bitandukanye kandi bisaba kwitabwaho uko bwije n'uko bukeye kugira ngo umuntu abashe kugira imitekerereze ishyitse, ni byiza ko buri wese yita ku bwonko bwe.

Abantu benshi bahagaze buri wese afite icyapa mu ntoki, biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso, muri aba bantu harimo na Madamu Jeannette Kagame, yambaye ingofero ndetse n'umupira w'imbeho n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Abantu benshi biganjemo abagore, abagabo ndetse n'inzego z'umutekano, biragaragara yuko bahagaze ahantu kandi bahagaze neza bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umupira w'umweru, ufite ijosi ry'ubururu, amaboko y'ubururu ndetse ahandi hose n'umweru, bigaragara ko uriho amagambo menshi irya mbere ni arapisi.

Umusaza ukuze wambaye ishati y'umweru n'umukara, yiteye umwitero w'umuhondo. Afite icumu mu ntoki ze, biragaragara ko ari umusaza ukuze cyane kuko n'amenyo y'imbere yavuyemo. Afite n'ingofero y'urugara.

Umugabo udakuze cyane wambaye umwenda wiganjemo amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, biragaragara ko hari ibintu ari kwitegereza mu kirere kuko yahanze amaso mu kirere, yegamiye igikuta cy'umweru ndetse ahagaze mu nzira inyuma y'inzu.

Abantu benshi bateraniye ahantu mu cyumba cy'inama higanjemo abagabo, abagore ndetse n'abandi bantu bakuze, biragaragara ko bahagaze neza abandi bicaye iruhande rwabo, bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi biganjemo ababyeyi ndetse n'abagabo ndetse harimo n'abera aribo twita abazungu, biragaragara yuko ari abantu bishimye kuko bari gukoma amashyi, iruhande rwa buri muntu hateretse icupa ririmo amazi yo kunywa.

Abantu benshi bahagaze ku mayesikariye bigaragara nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso, biganjemo abambaye ingofero z'umukara, amakote y'umukara ndetse n'amapantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, biragaragara ko higanjemo abashinzwe umutekano.

Abantu babiri umugabo n'umugore bicaye mu cyumba cy'inama, iruhande rwa buri muntu hateretse agacupa k'amazi. Umugore yambaye ikote ry'ubururu, afite mikoro y'umukara mu ntoki. Umugabo we yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umukara n'umweru, yambaye n'agapfukamunwa.

Icyapa kiriho umukobwa mwiza cyane wirabura ufite imisatsi miremire y'imikara, yambaye ishati y'umuhondo ari guseka cyane ndetse afite n'amenyo meza, bigaragara ko akoresha umuti mwiza usukura amenyo.

Abantu benshi bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso biganjemo abagore ndetse n'abakobwa n'abagabo harimo kandi na madamu Jeannette Kagame bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umwana w'umukobwa, wambaye amaherena, wambaye agakanzu k'umuhondo, ufite imisatsi miremire y'umwimerere, ari kumwe na muganga wambaye udupfukantoki, ari kumurebera uko amenyo ye ameze akoresheje utwuma twabugenewe.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ari kumwe na muganga wambaye udupfukantoki ndetse n'itaburiya y'umweru. Bari kumwereka uko agomba kwita ku menyo yiwe kugira ngo abashe kuyagirira isuku, mbese abashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Gusukura amenyo ukoresheje umuti wabugenewe n'amazi meza ni isoko yo kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa, aha rero haragaragara umwana wishimye ufite uburoso ari koza mu kanwa, bigaragara ko rwose amenyo ye asa umweru bitewe nuko yakoresheje umuti woza amenyo kandi wizewe.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi y'umukara biragaragara yuko hari ikintu kiri kumurya kuko yafashe urudodo akarucira hagati y'amenyo yambaye isengeri y'umweru ndetse yambaye n'amaherena.

Ababyeyi babiri umwe wambaye amarineti bari kuganira, inyuma yabo hari ibikoresho bitandukanye, harimo ibirahuri ndetse n'amasahani, imbere yabo hari imboga bari gutunganya, hakaba karoti, hakaba n'inyanya, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Umubyeyi ukuze wambaye ijipo y'umuhondo ndetse n'ubururu, akaba isharupe y'umweru ateze n'igitambaro cy'umweruc hagaragara nkaho hari ibyatsi ndetse iruhande rwe hateritse inkono iri ku mashyiga.

Umubyeyi w'umumama ukuze kuko bigaragara ko afite umusatsi wiganjemo imvi, yambaye isengeri y'umutuku ndetse n'indi y'umweru bigaragara ko yunamye afashe ahantu ku meza bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umubyeyi ukuze wambaye amaherena ndetse n'imyenda irimo amabara agiye atandukanye yicaye mu kagare bigaragara ko yaje kwa muganga, ari kumwe na muganga uri kumurebera uko amaraso ye ari gutembera mu mubiri ndetse amubwira uko ubuzima bwe buhagaze.

Ni ababyeyi babiri bafite imisatsi y'umwimerere, umwe yambaye umupira w'umukara undi yambaye isengeri ijya gusa icyatsi kibisi, bose bari mu myitozo ngororamubiri, bigaragara ko banezerewe kubera ko bafite ubuzima bwiza bakesha gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni abamama babiri bicaye barebana, umwe muri bo munini cyane yambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru, afite imisatsi y'umweru yambaye n'amarinete, bigaragara ko bicaye bari gutegura amafunguro agizwe n'imboga n'imbuto.

Umugabo ukuze cyane kuko ubona ko afite imvi nyinshi mu mutwe, afashwe mu ntoki n'undi mugabo wambaye ikote ry'ivu, wambaye n'agapfukamunwa, bigaragara ko ari kumusindagiza ngo abashe kugera aho agiye.

Umugabo n'umugore bicaye ku meza bafite urupapuro mu ntoki bari gusoma, kandi imbere yabo hateretse impapuro nyinshi bigaragara ko hari ikintu bari gushaka. Bambaye imyenda y'imyeru bombi.

Ni umugabo bigaragara nkaho akuze, wambaye amarinete, umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ubururu, yicaye mu kagare bigaragara ko ashobora kuba abana n'ubumuga. Ari kumwe n'umwana iruhande rwe barishimye bigaragara ko banezerewe rwose.

Kurya neza ukarya indyo yuzuye irimo intungamubiri zose ni isoko y'ubuzima bwiza aba ni abantu batatu umugabo ndetse n'abagore babiri biragaragara ko bahagaze bari gutegura amafunguro kandi ateguranywe ubuhanga.

Icyumba kirimo ibintu bitandukanye, harimo amabasi hakabamo udusahane turiho ibintu bitandukanye, hakabamo abantu babiri bicaye bari kuri mashini, umwe muri bo akaba ari kwereka mugenzi we icupa risa nkaho ririmo umuti gakondo.

Ni umubyeyi n'umwana bose bafite imisatsi miremire ya natirere, bigaragara ko bicaye ku meza maremare ariho ibara ry'umuhondo, bigaragara ko uno mubyeyi ari kwigisha umwana we kuko bose barangamiye ku meza.

Abantu babiri bicaye ku meza. Imbere yabo hari kayi ndetse n'ikaramu. Biragaragara ko umwe afite icyo ari kwereka mugenzi we. Umwe ni umugabo wambaye umupira w'umukara, ufite imvi nyinshi mu mutwe, undi ni umukobwa wambaye umupira w'umuhondo.

Abantu benshi bateraniye ahantu, imbere yabo hari abasaza ndetse n'abakecuru bakenyenye neza cyane, umusaza yambaye ishati y'umweru n'umukara ndetse n'umwitero w'umweru n'umukara ndetse n'umutuku, hanyuma umukecuru yambaye urunigi mu ijosi, isengeri y'ubururu ndetse n'umwitero ujya gusa n'umuhondo, biragaragara ko ari ibirori bitabiriye.

Umugore ubyibushye, ufite imisatsi miremire, wambaye umudari mu ijosi, ufite n'inkoni mu ntoki, yambaye umupira ujya gusa n'icyatsi kibisi, ari kumwe na muganga wambaye ishati y'ubururu, bisa nk'aho ari kumwitaho.

Itsinda ry'abantu bihurije hamwe bameze nk'abari gufata ifoto y'urwibutso. Ni abagabo babiri umugore umwe ndetse n'abana babiri. Bigaragara yuko bishimye rwose uko bari guseka. Muri abo bantu harimo umwe wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umwana w'umukobwa uri kumwe na papa we, wambaye amarinete, bose bahagaze neza, barishimye, bari gufata ifoto y'urwibutso. Uwo mwana w'umukobwa yambaye ikote ry'ubururu n'agapira karimo amabara y'umukara n'umweru, hanyuma papa we yambaye ishati y'umuhondo ndetse n'umupira ujya gusa icyatsi kibisi.

Umugabo munini cyane usa naho akuze wambaye ishati ndende ndetse ufite n'imvi mu mutwe ndetse no kukananwa, Yicaranye n'umuganga uri kumurebera uko amaraso ye atembera mu mubiri.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ufite amaboko maremare, mo imbere yambaye ishati y'ubururu, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, arasa n'aho ari kumugira inama, ijyanye n'ubuzima.

Abantu bagera muri batanu bateraniye ahantu hamwe ku meza, biragaragara ko higanjemo ababyeyi babiri, muri abo babyeyi harimo umukobwa wambaye itaburiya y'icyatsi kibisi ndetse na baji y'ubururu, hakabamo n'umugabo wambaye itaburariya y'umweru na baji y'ubururu, biragaragara ko bari gusuzuma abaje babagana.

Abagore bane bari ku gishushanyo bigaragara ko bishimye, banezerewe, ni abagore bamwe bambaye imipira y'ubururu, ndetse n'uwambaye igitenge kirimo amabara y'umweru ay'umutuku, n'undi wambaye umupira w'umutuku, ufite agakapu ku rutugu, biragaragara ko bari kwamamaza serivisi zijyanye n'ubuzima.

Umubyeyi w'umumama bigaragara ko akuze, yambaye ingofero y'umutuku, akaba yambaye umupira w'umweru, bigaragara ko afite ikibazo ku jisho kubera ko ripfutse, uyu mubyeyi biragaragara ko ageze mu zabukuru.

Icyapa kiriho abantu babiri batandukanye bambaye amakoti y'umukara, amashati y'umukara ndetse na karuvati z'umukara. Umwe arahagaze, undi aricaye, bigaragara ko ari ibyo bari kwamamaza bijyanye n'ubuzima.

Abantu bane harimo abagabo babiri ndetse n'abagore babiri, ni abantu bambaye imipira y'umweru ishushanyijeho ibyo bari kwamamaza, bigaragaza ko ari igikoresho cyangwa se umuti bari kwamamaza.

Ni icyumba cyiza cyane giteguye neza hicayemo abantu batandukanye biganjemo ababyeyi b'abamama ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'umupira w'umukara wiganjemo ibara ry'umutuku, biragaragara ko bahanze amaso umuntu uri kubayobora mu nama barimo.

Umubyeyi mwiza cyane, ufite imisatsi miremire, ufite n'amaherena, yambaye ishati y'ubururu, ndetse afite n'gitabo mu ntoki cyumukara. Bigaragara yuko rwose ari guseka kandi yishimye.

Ni umukobwa muremure, ufite imisatsi miremire y'imikara. Yambaye agashati k'icyatsi kibisi ndetse n'ijipo y'umweru n'umutuku. Biragaragara ko ari kuyobora abantu bamuri imbereye kuko afite mikoro mu ntoki ndetse na telefoni ari gusomamo ibyo ari kubabwira.

Abantu benshi bateraniye ahantu mu cyumba cy'inama, biragaragara ko higanjemo abantu bakuze, abagore, abagabo ndetse n'abana, bamwe muri bo bambaye amakoti y'umweru, amashati y'umweru, ndetse n'amapantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Ni inzu nziza cyane yubakishije amatafari ahiye ndetse izengurutswe n'indabyo inini ndetse n'ingufi, imbere y'iyo nzu hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse kuri iyo nzu handitseho amagambo avuga ngo ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Icyumba cyiza cyane kigizwe n'amabara y'icyatsi kibisi, umuhondo, ubururu ndetse n'umukara, kiganjemo intebe zo kwicaramo zifite amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'ubururu bwijimye, biragaragara yuko ari ahantu bakirira abantu babagana.

Umugabo wambaye agapfukamunwa akaba yambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara yambaye n'uturindantoki, biragaragara ko ari muri mashini hari ibyo ari kurebamo, ahagaze mu cyumba gisukuye gisa neza cyane bigaragara ko ari icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Ni inyubako nziza cyane iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, iruhande rw'iyo nyubako hateye igiti cyiza cyane kirekire, bigaragara ko ari umutako. Iyi nyubako ni ibitaro bikuru bya Nyarugenge, Akarere ka Nyarugenge kabarizwa mu Mujyi wa Kigali rwagati.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ufite ikaramu mu mufuka, akaba yambaye isaha ku kuboko ndetse n'inkweto z'umukara, n'ipantaro y'umukara yicaye ku ntebe ya rwegamirwa, ifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Ni icyumba kinini cyane, kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa muri serivise z'ubuvuzi. Harimo udutanda baryamishamo abarwayi, harimo imashini banyuzamo abarwayi mu gihe bari kureba indwara barwaye ndetse kandi harimo n'intebe zo kwicaraho.

Inzu nziza cyane bigaragara ko ari iy'ababyeyi bashaka kubyara binjiramo bakabafasha kubona abana babo, imbere y'iyo nzu hateye jaride, kandi hahagaze abaganga bane bose bambaye udupfukamunwa ndetse na baji y'ubururu n'umweru, abo baganga bose bambaye inkweto z'umukara uretse umwe wambaye inkweto z'umuhondo.

Abantu batatu bari mu cyumba bigaragara ko ari icyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'amafaranga, umwe arahagaze bigaragara ko ariwe ugezweho, undi aricaye ku ntebe abagenzi bategererezaho ubufasha.

Abantu benshi biganjemo ababyeyi, abana ndetse n'abantu bakuru, bamwe bambaye imipira y'umuhondo abandi bambaye imipira ijya gusa n'icyatsi kibisi, ababyeyi bateza ibitambaro ndetse bigaragara ko hari umuntu bakurikiye uri kubayoborera inama barimo.

Inyubako ndende nziza cyane igeretse kabiri, biragaragara ko iri mu mabara y'ikigina ndetse n'umuhondo, iruhande rw'iyo nyubako hari abantu bategereje kwinjira, n'imbere muri iyo nyubako harimo n'abandi bantu bagera muri batatu, biragaragara y'uko iyi nyubako ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi.

Ni icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye bigaragara nkaho ari icyumba gikorerwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Harimo umugore wambaye umupira w'icyatsi kibisi, udupfukantoki, akaba yambaye n'ingofero y'umweru. Iruhande rwe hari umwana w'uruhinja bigaragara ko akivuka ako kanya ari kumwitaho.

Ni inyubako nziza cyane yubakishije ibirahurire ndetse ifite amabara y'umukara ndetse n'umutuku iruhande rwiyo nyubako hari igishushanyo ikiriho umukobwa n'umusore bose bambaye amataratara.

Ni icyumba kirimo ibintu bitandukanye bigaragara nkaho ari kwa muganga, harimo ibitanda abarwayi baryamaho biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, harimo imashini hakabamo n'imigozi y'amashanyarazi icometse.

Icyumba giteguye neza kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, kirimo marido, kikabamo intebe zo kwicaramo ndetse n'ameza, kuri ayo meza hariho ibintu na byo bitandukanye, hariho imashini ndetse n'amakaramu yo kwandika n'amakaye.

Inzu nziza cyane iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu. Ni inzu igeretse kabiri. Iyo nzu ifite jaride nziza cyane iruhande rwayo hateyemo indabo nziza cyane. Imbere y'iyo jaride hari abantu bari kugenda ubona ko bari kugana kuri iyo nyubako.

Abantu benshi bateraniye mu nama, imbere yabo hicaye abandi bantu ku meza ariho igitambaro k'icyatsi kibisi, imbere ya buri muntu hari icupa ry'amazi yo kunywa, biragaragara ko abo bantu bicaye imbere yabo bari kuyobora inama kandi iruhande rwa buri muntu hari ikaramu ndetse n'ikayi, udafite ibyo ngibyo afite mashini, bigaragara ko hari ibyo bari kwandika.

Ikigo nderabuzima cya Gishweri iruhande rw'iyo nzu hari abantu bane abagabo batatu bahagaze bambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara umugore umwe uhagaze ndetse n'undi mugabo wicaye mu umugore uhagaze yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ijipo y'umukara haruguru y'iyo nzu hari ababyeyi babiri.

Inyubako nini ifite amadirishya atatu, ifite ibara ry'umuhondo, imbere y'iyo nyubako hari jaride nziza cyane irimo ibiti birebire ndetse imbere y'ibyo biti hateye indabo nziza cyane.

Inzu nziza cyane bigaragara ko yubatswe neza, mo imbere harimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo puberi bashyiramo imyanda, harimo intebe ndetse n'ameza, bigaragara nkaho ari ahantu bakorera serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Ni icyumba kinini kirimo amarido y'umweru ndetse kirimo n'ibitanda bitatu bishasheho amashuka y'icyatsi kibisi. Iki cyumba kigizwe n'irange ry'umweru ndetse n'ibitanda by'umweru.

Umugabo muremure uryamye ku gitanda kiriho amashuka y'umweru, wambaye ishati y'umweru n'isengeri y'umweru. Bigaragara ko ari guseka rwose yishimye. Iruhande rwe hari imigozi minini icometse ku mashanyarazi.

Ni abantu benshi biganjemo abafite imisatsi miremire ndetse n'abateze ibitambaro, biragaragara ko bicaye aho bakirira abagana ikigo nderabuzima cyangwa se kuri resebusiyo. Ni abantu bicaye rwose bigaragara nk'aho barembye kuko birasa nk'aho bacitse intege.

Iyi ni inzu nziza cyane iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru isize irange mu imbere ry'ubururu biragaragara ko ari icyumba cy'ababyeyi babyariramo, iruhande rw'iyo nyubako hari intebe abantu bicaraho bategereje kwinjira ndetse iruhande rwazo hari abantu bahagaze bagira bashaka kwinjira.

Abagore batatu bahagaze neza bari guseka bambaye ingofero z'umweru ndetse bose bambaye n'amaherena. Bambaye amashati y'ubururu bigaragara ko bakora muri serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako ndende iri mu mabara y'ubururu ndetse n'ubururu bwijimye, biragaragara ko ari inyubako igeretse kane, imbere y'iyo nyubako hari imikindo miremire kandi myiza cyane bigaragara ko ari inyubako itangirwamo serivisi z'uburezi.

Ni inyubako ndende igeretse kabiri. Muri iyo nyubako harimo abantu benshi batandukanye biganjemo abagore ndetse n'abagabo yewe n'abana. Imbere y'iyo nyubako, hari abandi bantu bahagaze iruhande rwa jaride nziza cyane. Muri iyo jaride harimo imodoka nziza cyane iruhande rwayo, hahagaze umumama wambaye imyenda y'umutuku.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe zo kwicarwaho, harimo ameza, hakabamo n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, aho harimo ibyuma byifashishwa mu gihe bari kuvura abantu indwara barebera muri ibyo byuma.

Ni inyubako nziza cyane bigaragara ko iri mu nyubako za kijyambere, biragaragara ko iri mu mabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umuhondo ujya kwijima. Iruhande rw'iyo nyubako hateye jaride nziza cyane kandi kuri iyo nyubako, ifashwe n'ibikuta bifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Inyubako eshatu nziza cyane zifite akayira kazihuza imbere yazo hari amapavee y'umweru ndetse najya gusa n'umuhondo. Zubakishije amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru wijimye biragaragara yuko iruhande rwayo hari jaride nziza cyane.

Ni abantu benshi biganjemo ababyeyi, abana ndetse n'abakuze. Bigaragara ko iruhande rwabo hari abantu basa nkaho bari kubapima, hari kandi n'abandi babana n'ubumuga bicaye mu tugare. Aba bantu bose bahagaze bari kugenda ku murongo bisa naho umwe ari kuva aho undi ajyaho.

Ni inzu nziza cyane iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara igizwe ahanini n'amadirishya, iruhande rw'iyo nzu hari indobo zifashishwa mu gushyirwamo imyanda, imbere y'izo ndobo hahagaze umugabo utagaragara neza wambaye inkweto z'umukara za bote, akaba yambaye n'imyenda imupfutse hose usibye mu maso.

Umugabo wambaye isaha ku kuboko, akaba yambaye umupira w'umukara ndetse ikabutura ijya gusa umutuku, biragaragara nkaho avuye mu myitozo ngororamubiri kuko bigaragara ko ku kaguru ke afite ikibazo.

Umugabo bigaragara nkaho akuze, wambaye umupira w'umweru. inyuma ye hari akantu k'umuhondo. Biragaragara nkaho arushye, kuko ari kunywa amazi. Ayo mazi ari kunywa, ari mu icupa ry'ubururu. Nibyo koko amazi ni isoko y'ubuzima bwiza.

Iyo ukora imyitozo ngororamubiri bigufasha kugira urutirigongo rumeze neza, iki rero ni igishushanyo kigaragaza uko umuntu udakora imyitozo ngororamubiri urutirigongo rwe ruba rumeze, ni byiza rero gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Icupa rirerire cyane rifite umupfundikizo w'ubururu, ririmo amazi menshi kandi yuzuye, biragaragara ko baritereye mu mazi akarirengera ndetse agakwira hose, iri cupa bigaragara ko ririmo amazi meza kandi asukuye.

Kunywa amazi meza, isoko y'ubuzima bwiza, ni umukobwa uhagaze ufite imisatsi miremire akaboko ke k'iburyo gafashe icupa ry'amazi ari kunywa, bigaragara ko amazi ari kunywa ari urubogobogo mbese asa neza.

Ni icyumba kinini cyane kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo imashini zikoreshwa mu buvuzi, hakabamo ameza ateretseho ibintu bitandukanye, hari kandi n'akamashini kariho mudasobwa igaragaramo amashusho.

Umuntu w'igitsina gabo ugaragara igice cyo mu gatuza bigaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri, ku rutugu rwe hashushanyijeho ikimenyetso kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku, bigaragara ko rwose imyitozo ngororamubiri ayikora buri munsi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Yambaye amasogisi y'umukara, yazamuye akaguru ke agashyira ku rutugu rw'undi mugabo bari kumwe. Umugabo bari kumwe yambaye isaha ku kuboko ndetse n'umupira w'umukara, bigaragara ko ari kumukandira akaguru.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni isoko y'ubuzima bwiza. Umugabo wambaye impeta ndetse wambaye n'agakufi mu kaboko k'iburyo, biragaragara nk'aho ari mu myitozo ngororamubiri kuko yambaye imyenda ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, ndetse amaboko yose afashe ku kaguru k'ibumoso.

Amacupa magufi afite imifundikizo y'umweru, ari mu ibara ry'umuhondo, umutuku, icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umukara, bigaragara ko ari amacupa arimo imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Kunywa amazi meza ni isoko y'ubuzima bwiza, umukobwa ufite umupira ku rutugu w'umweruru, wambaye n'undi urimo amabara y'umweru, icyatsi kibisi, ndetse n'ubururu, afite agacupa karimo amazi, ako gacupa kakaba gafite amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Ni kenshi tugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri. Abantu babiri bambaye imyenda ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, umwe yambaye isengeri y'umukara ndetse n'aragakabutura k'umukara n'inkweto z'umweru, undi na none yambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara irimo n'amabara y'umweru, bose bafite ibikapu biragaragara ko bose bananiwe, kandi bari kunywa amazi.

Ni umugabo muremure, ubyibushye wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara n'udukomo ku maboko. Ahagaze mu cyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane, bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, bigaragara ko na we ari mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri.

Iyo unyweye amazi meza kandi asukuye iguha amahirwe yo kugira ubuzima bwiza, umugabo utagaragara neza afite agacupa ari kunywa amazi bigaragara ko aya mazi afite ubuziranenge.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku, wicaye ku ntebe y'umweru, afite mudasobwa ari kureba amashusho muri iyo mudasobwa, ni umugabo bigaragara ko yumiwe mbese hari ibintu ari kureba byamubabaje.

Icyapa kiriho ibintu byinshi bitandukanye: hariho imiti gakondo, hakabamo imakasi, hakabamo ibipimo byifashishwa kwa muganga, hakabamo inshinge, hakabamo itoroshi. Biragaragara ko ari ibikoresho byifashishwa muri serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Ibyapa bitandukanye birimo uburyo bwinshi bwo gukora imyitozo ngororamubiri. Icyapa cya mbere kiriho umuntu wicaye, icyapa cya kabiri kiriho umuntu wazamuye akaboko, usa nk'aho ari kunanura umugongo ndetse n'amaguru. Icya kabiri kiho umuntu uri kwiruka, icya gatatu kiriho umuntu wicaye uteruye ikintu mu ntoki, icya kane kiriho abana bari gukina umupira, icya gatanu kiriho abantu bicaye; kandi hariho n'abandi bahagaze.

Ahantu hari ibintu bitandukanye hari amacunga, hakaba amazi ari mu icupa, hakaba n'imashini, hakaba urusenda, hakaba na metero. Ibyo byose birambitse hamwe.

Amacupa ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, ayo macupa yose afite ikirango cy'umutuku ndetse handitseho n'amagambo ari mu ibara ry'umweru, aya magambo akaba ari Sitopu.

Umugabo uryamye wubitse inda bigaragara ko arembye kuko asa nk' ari kwa muganga iruhande rwe hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa akaba yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki bigaragara ko ari umuganga uri kumwi.

Inzu irimo ibintu byinshi bitandukanye bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, abo ni abagabo babiri bahagaze, umwe wambaye umupira w'umutuku afite isaha ku kuboko ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, biragaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Kunywa amazi meza kandi asukuye ni isoko y'ubuzima bwiza, umugabo utagaragara neza afite ijage ari gusuka amazi mu kirahure kugira ngo abashe kuyanywa, bityo rero nawe wabasha kubungabunga ubuzima bwawe unywa amazi meza kandi asukuye.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni isoko y'ubuzima bwiza. Abantu batatu bateraniye ahantu mu kibuga, bagiye bafite imipira y'umweru mu ntoki, abo bantu umwe muri bo yambaye kasike ku mutwe, abandi bari kumureba, bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, muri iyi nzu harimo ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri ,hakaba harimo intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa muri icyo gikorwa .Hanyuma muri kino cyumba hakaba harimo umugore wambaye agapira gatukura, ipantaro y'umutuku uwo mugore akaba afashe ku birenge bye yicaye ahinnye amaguru.

Ni umugabo muremure ,ubyibushye, wambaye agapira k'umweru ndetse n'agakabutura k'umukara. Aryamye hasi ,igaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri. Ni byiza ko buri wese akwiye gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi miremire yiganjemo umukara n'umweru. Yambaye agapfukamunwa ndetse n'udupfukantoki akaba yambaye ishati y'ubururu, imbere ye hateretse mashini ndetse n'ikayi n'ikaramu bigaragara ko hari ibyo ari kwitegereza muri machini.

Igare rinini rigaragara mu mabara y'umukara ndetse n'umweru. Ni igikoresho abantu babana n'ubumuga bamwe batabasha kugenda cyangwa se no guhagarara bicaramo kugira ngo batavunika.

Abantu babiri bari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ni umugabo ndetse n'umugore bigaragara ko na bo bari mu myitozo ngororamubiri, iki cyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu uri kwiruka cyane, bigaragara nk'aho ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'umuhondo zifite rasi y'umukara ndetse yambaye n'agapantaro k'umukara, yambaye isaha ku kuboko, yifashe ku mavi amaboko yose.

Umugabo muremure wambaye itaburiya y'umweru, wambaye uturindantoki ndetse na baji mu ijosi, biragaragara yuko ahagaze imbere y'igikoresho bakoresha bagabanya inkongi y'umuriro cyangwa se bazimya inkongi y'umuriro, bigaragara yuko ari kwigisha abantu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe yabaye.

Icyapa kiriho ibikoresho bitandukanye hariho amacupa, hakabaho udukarito. Biragaragara ko ari amacupa arimo imiti isukura amenyo ndetse n'ahandi hantu hatandukanye bigaragara ko ari ugushishikariza kugira isuku.

Ibimera byiza cyane biteye ahantu heza cyane bigaragara ko byabonye imvura nyinshi cyane. Ni byiza ko rero dutera ibimera ari ibiribwa cyangwa se ibitaribwa, kuko ahantu biri haba hari amahumbezi.

Umusambi uteguyeho ibintu byinshi harimo amasahane ariho imbuto ndetse n'ibyatsi. Hakabamo n'udukono twabugenewe dushinzwe gutegurirwamo imiti gakondo. Hari umuntu ufite agasekuru ndetse n'umuhini uri gusekura imiti gakondo ashyira muri ayo masahane ndetse no muri utwo dukono.

Ahantu heza hari ibyatsi birebire ndetse n'ibitoya, biragaragara ko ari icyatsi cy'umuravumba, bigaragara neza ko ibyo byatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse n'imiti ikorwamo.

Ni ahantu hari ibintu byinshi bitandukanye. Hari amacupa hakaba n'uducupa twa palasitike, bigaragara ko ari imiti bifashisha mu kuvura indwara z'uruhu, yaba ibiheri ndetse n'ibindi bitandukanye bifata uruhu.

Ni byiza ko dutera indabyo ahadukikije kuko bizana amahumbezi aha rero ni ibiti biteye mu mavase bigaragara ko ari ib ibyo umuntu yateye kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza bitewe n'amahumbezi azanywa n'ibyo biti.

Iyo ubashije gutera ibiti bizana umwuka mwiza iruhande rw'aho utuye, bigufasha kugera amahumbezi n'igihe waba wicaye hanze mu rugo iwawe, bityo rero ni byiza gutera ibiti bizana amahumbezi aho utuye.

Ibyatsi byiza ni isoko y'umwuka mwiza duhumeka. Biragaragara ko ahanga ari ahantu hari ibyatsi byiza cyane bitoshye bizana umwuka mwiza ku bantu baturiye aha hantu. Ni ibiti birebire byiganjemo ibifite icyatsi kibisi.

Ni byiza kubungabunga amenyo yawe ukoresheje umuti mwiza wubugenewe. Uyu ni umuti rero ukozwe mu gikakarubamba bigaragara ko usukura neza amenyo. Uyu ni umuntu uwufite wambaye ishati y'ubururu, ndetse ufite imisatsi miremire.

Kunywa imiti gakondo uba wizeye neza ko nta ngaruka yakugiraho, ibi n'ibyatsi rero bitandukanye bikorwamo imiti gakondo yaba iyo banyweye batabanje kuyitunganya cyangwa se iyo banywa babanje kuyitunganya.

Ahantu hateguye neza, hariho ibintu bitandukanye, hariho amafu agiye atandukanye ariyo umukara, ikijuju, umutuku ndetse n'umweru, hari n'isekuru ndetse n'umuhini bigaragara ko ari imiti gakondo bari gusekura.

Ni byiza ko dukoresha imiti gakondo ubwoko butandukanye mu gihe duhuye n'ikibazo runaka, aha rero biragaragara ko hari amacupa menshi atandukanye arimo; imiti kandi imiti gakondo ni byiza rero nawe wajya ukoresha imiti gakondo mu gihe uhuye n'ikibazo runaka.

Uducupa dupfundikiye imipfundikizo y'umweru turi mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, bigaragara ko ari uducupa turimo imiti ivura uruhu, bityo rero ni byiza gukoresha iyi miti yanditseho imfiniti kuko igufasha kugira uruhu rwiza.

Ikibabi kiza cyane kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi kirambitseho ibinini birenga umunani, bigaragara yuko ibyo binini ari ibyakozwe mu miti gakondo higanjemo ibyatsi.

Ni umugabo muremure ugaragara ibiganza gusa, ufashe icupa riri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, rishushanyijeho igikakarubamba. Bigaragara ko ari amavuta akozwe mu gikakarubamba.

Icupa rirerire rifite umupfundikizo w'icyatsi kibisi, riri mu mabara y'ubururu ndetse gishushanyijeho igikakarubamba biragaragara yuko imbere harimo gakondo, iruhande rwaho hari nimero wabahamagaraho uramutse ukeneye umuti gakondo.

Ni kenshi dushishikarizwa gutera ibiti ndetse n'indabyo, ku nkengero z'aho dutuye kuko bidufasha guhumeka umwuka mwiza ndetse n'aho dutuye hakaboneka amahumbezi.

Igiti kirekire cy'umuravumba bigaragara ko cyakuze ku buryo bugaragara, iki giti gikorwamo imiti gakondo ikaba ari imiti ivura inkorora, umutwe, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Bityo rero ni byiza ko nawe watunga igiti cy'umuravumba iwawe.

Ibirahure bibiri birimo ibyatsi ndetse n'amazi. Ibi byatsi bifite amabara asi icyatsi kibisi, biragaragara nk'aho ari umuravumba bashaka gukoramo umuti.

Isabune nziza cyane iri mu ibara ry'umweru, ikozwe mu gikakarubamba ndetse n'avoka. Iyi sabune ikoreshwa wonga mu maso cyangwa se n'umubiri wose, kuko nta ngaruka iteza, kubera ko ikoze mu bimera.

Amashusho y'ubwoko bune atandukanye, hamwe hariho umugabo wambaye umupira w'umutuku ufashe ku giti, ahandi hariho ibyatsi, ahandi na ho harimo abantu babiri umwe uhagaze undi yicaye, ahandi hariho ibyatsi bisa n'ibyumye.

Amacupa abiri, rimwe rifite ibara ry'umuhondo, irindi rifite ibara ry'icyatsi kibisi, biragaragara ko ari amacupa arimo imiti ivura indwara z'uruhu kuko iruhande rwayo hashushanyije igishushanyo kigaragaraza indwara avura.

Icupa rirerire riri mu mabara y'umukara ndetse n'ibara ry'umweru. Biragaragara ko ari icupa ririmo amavuta meza kandi ajyanye n'uruhu rwa buri umwe wese. Bigaragara ko uramutse uyisize wagira uruhu rwiza cyane.

Icupa ry'umweru ndetse ripfundikije umupfundikizo w'umweru rikikijwe n'imbuto nyinshi z'ubwoko butandukanye harimo amacunga amaronji ndetse n'izindi mbuto nyinshi zitandukanye bigaragara ko iri cupa ririmo umuti w'ibimera.

Icupa rirerire cyane riteretse iruhande rw'ikirahure, ni icupa ry'umweru rifite imupfundikizo w'umweru, ririho n'amabara y'umuhondo, iri cupa biragaragara ko ririmo imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Amacupa menshi yiganjemo apfundikishije imipfundikizo isa y'icyatsi kibisi, bigaragara ko ari amacupa arimo imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi gakondo. Biragaragara kandi ko ayo macupa imbere yayo hari abantu benshi.

Icupa rinini rirerire rifite umupfundikizo w'umuhondo rishushanyijeho igikakarubamba ndetse n'urunyanya, munsi y'iryo cupa hariho ibara ry'umuhondo ndetse n'imbere yayo hari ibara ry'umukara.

Ahantu hari ibintu bitandukanye bifite amabara atandukanye. Hari amacupa ndetse n'imbuto zitandukanye zifite amabara na yo atandukanye. Harimo umutuku, umuhondo, umukara ndetse n'ubururu bwijimye.